Umugabo w'imibiri yombi wambaye ingofero ifite ibara ry'ikake n'umupira w'ikijuju, afite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki, yatangariye urubuga amaze gufungura.

Abantu batandatu bambaye neza bavanze abagabo n'abagore bahagaze bakurikiranye bose bafashe ku cyapa gifite ibara ry'ubururu cyandikishijeho inyuguti z'umweru amagambo saniramu Rwanda.

Umukobwa w'imibiri yombi, ufite umusatsi muke, yashyize amarinete mu gahanga, afite amaso mato n'amenyo y'umweru, yambaye ishati y'umweru n'ikote ry'umukara, aramamaza ubwishingizi butangwa n'ikigo akorera.

Umugabo w'inzobe ufite umusatsi mukeya yambaye ikote ry'umukara, afashe icyapa cyamamaza ubwishingizi buhendutse bushobora kugufasha mu bintu bitandukanye wowe n'umuryango wawe.

Abagabo babiri b'abazungu, bambaye imyenda isa, igizwe n'ishati y'umweru, ikote ry'umukara, na karavate, barareba mu cyerekezo kimwe, aho buri wese yifuza kugera.

Umugabo w'igikara ufite umusatsi uringaniye wambaye ishati y'umweru ,ibiganza byombi bipfumbase amatama, bitewe n'impungenge z'ibihombo mubucuruzi bwe.

Abagabo babiri bambaye amapantaro n'amakote by'umukara bahagaze iruhande rw'imodoka zifite ibara ry'umweru hagati yabo hari ipikipiki baramamaza ubwishingizi bw'ibyo binyabiziga.

Umukobwa muremure, mwiza, w'imibiri yombi, ufite urubavu ruto, wambaye amarinete, aseka neza, afite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki, arareba ubutumwa bamwoherereje.

Abantu b'urujya n'uruza baragenda mu nzira irimo ibyapa byinshi bisa, bikurikiranye biri mu ibara ry'ubururu, iruhande rw'umuhanda, haparitse imodoka nyinshi n'amapikipiki.

Umukobwa mwiza muremure ufite umusatsi mwinshi n'urubavu ruto, arakirana akanyamuneza umukiriya uje amugana, aramusobanurira serivisi batanga. Munsi yaho hari nimero wahamagara ugahabwa ubufasha butandukanye.

Urubuga rwa banki ya Kigali, ku ruhande rw'ibumoso hari urutonde rw'ibyo bakora, hagati hari ibara rinini ry'ubururu bwijimye ryanditseho ijambo Kayisire.

Icyapa kiri ku rupapuro rw'umweru, rwandikishijeho utunyuguti dutoya tw'umukara, hejuru ibumoso hari utuziga tubiri, kamwe k'umutuku, kiramamaza ubucuruzi bukorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Ibikapu bibiri baheka mu mugongo, biteretse ku meza afite ibara ry'ikigina, mu cyumba gifite idirishya n'urugi by'umweru, birinzwe n'utwuma dukomeye.

Umugore w'inzobe useka neza ufite umusatsi mukeya, yambaye umupira w'ikijuju ufite amaboko y'umukara, ahagaze mu iduka ricuruza ibintu bitandukanye bigaragara ko ibyinshi ari ibiribwa bikoreshwa mu buzima bwa buri munsi.

Icyumba kiza kisanzuye gisize amarangi y'umweru dede, kirimo imitako itandukanye, indabo amafoto, gicururizwamo imyenda yiganjemo iy'abagore n'imideli inyuranye.

Amakanzu menshi meza maremare amanitse kutwuma twabugenewe mu buryo bufite gahunda, iruhande hari igikoresho cyifashishwa mu kwamamaza imyenda igezweho, kiri mu ishusho y'umuntu.

Icyumba kimanitsemo imyenda ifite amabara atandukanye harimo n'igaragara nk'impuzankano za gisirikare, itondetse neza ku twuma twabugenewe dufite amabara atandukanye. Bishoboka ko ari ahazwi nka durayi kirina ikaba imaze gukorerwa isuku.

Inzu isize amarangi y'umweru, ifite n'amakaro y'umweru, imanitsemo ibikapu bitandukanye bidoze mu bitenge bizwi nka made in Rwanda, bishobora kuba bidoderwa aho hafi bigacururizwa muri iki cyumba.

Amakanzu maremare y'abagore, amanitse imbere y'umuryango w'ibirahure, ku bikoresho byagenewe kwamamaza bifite ishusho y'umuntu. Biri mu cyumba kirimo amabara atandukanye akurura abakiriya.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi bugezweho, hari ikote ridoze mu gitenge rimanitse ku gakoresho kabugenewe gafite ibara ry'umweru, inyuma hari akandi kenda ko kwifubika gakoze mu budodo.

Umugore munini uteze igitambaro cy'umweru, yicaye iruhande rw'ameza, imbere ye hari umukobwa ukiri muto ufite umusatsi muke, iruhande rwabo hari umunzani uteretseho ikiro cy'ifarini n'ibuye ripima ibiro.

Icyumba gicururizwamo imodoka giparitsemo imodoka eshatu ziri ku ruhande rumwe n'indi modoka iparitse hino ukwayo, muri icyo cyumba hari ameza ateretseho icupa ry'amazi ategurwa n'ikigo Inyange.

Nyuma yo gutsinda irushanwa ryateguwe n'ikigo akagera motos, yegukanye ikinyabiziga cyari cyashyizwe muri iryo rushanwa arimo guhabwa urufunguzo ndetse n'ibindi bihembo yagenewe arabihabwa n'umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara watumwe n'icyo kigo.

Imodoka isize irange ry'ikigina, ifite amatara abiri atukura akiri mashyashya, irangwa n'inyuguti HSR zeru, kabiri, karindwi, bigaragara ko atari iyo mu Rwanda.

Ku gipande cy'inyuma cy'imodoka ifite ikirahure kinini cyiza, hari amatara abiri afite ibara ritukura, hagati yayo hari akapa ka merisedesi benzi, ni imodoka ikundwa cyane izwi n'abantu bose.

Icyumba gicururizwamo imodoka, kirimo ameza y'icyuma n'intebe zifite ibara ritukura, aho abakiriya bicara bakaganira n'abacuruzi ku bwoko bw'imodoka bashaka n'igiciro bakwishyura kugira ngo bayitware.

Imodoka ebyiri nziza z'umukara ziparitse mu kibuga gishashemo amakaro nibwo buryo bwiza bwateganyijwe bwo gutegura parikingi nibwo bushishikarizwa abantu kugira ngo bube bwemewe n'amategeko.

Abagabo babiri umwe wambaye ishati y'iroza n'ipantaro y'umukara, yegeranye n'undi wambaye ipantaro y'ikoboyi y'ubururu, ufashe agakapu gatukura mu kiganza, bahagaze iruhande rw'imodoka bigaragara ko amushyikiriza ibihembo yatsindiye.

Imodoka ntoya yijimye ihagaze mu kibuga gitunganyije neza hejuru yayo hari icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi n'umutuku hagaragaraho igiciro cya miliyoni mirongo itatu.

Abantu batatu bahagaze, harimo abagore babiri n'umugabo w'inzobe wambaye amadarubindi, yambaye kandi ikote n'ipantaro by'ubururu n'ishati y'umweru, ategereje guhabwa serivisi yo kubitsa cyangwa kubikuza.

Ibiganza by'umuntu w'umwirabura, bifite ibikumwe biriho inzara zererana, arabara amafaranga yitegura kuyashyira mu mashini imufasha kubara atibeshye no kugenzura ko amafaranga yose ari mazima.

N'ubwo nta cyapa kigaragaza iyi banki iyo ariyo, ariko biragaragara ko ari icyumba cya banki, gikorerwamo serivisi zo kubitsa no kubika. Umukozi wa banki yicaye imbere muri gishe, arimo kwakira umukiriya uhetse igikapu, ashobora kuba aje kubitsa cyangwa kubikuza.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi aho bishyura bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga butangwa n'ikigo emutiyeni. Hari umugabo uri imbere mu biro ndetse n'uhabwa serivisi uri inyuma wambaye umupira w'umweru. Ni icyumba yagiteguye neza kuko hari n'akuma kazana umuyaga bituma hahora hafutse.

Inoti ya magana atanu y'amafaranga y'u Rwanda iriho igishushanyo cy'inka ebyiri hejuru handitse amagambo banki nkuru y'u Rwanda, munsi handitse amafaranga magana atanu mu nyuguti no mu mibare.

Icyapa kigaragaza impande zombi z'inote y'amafaranga igihumbi akoreshwa mu Rwanda, kigaragaraho ibirango bitandukanye, hari amagambo banki nkuru y'u Rwanda, hari intore, hari inzu ndangamurage, hari n'ingagi zo mu birunga.

Amafaranga menshi cyane apanze ku buryo bw'imishandiko, afungishije utugozi twa purastike dufite amabara atandukanye, inyuma yayo hari imashini yifashishwa mu kubara no gusuzuma kw'amafaranga ari mazima.

Umuntu w'igitsina gore ufite imisatsi miremire wambaye ishati y'icyatsi, afite intoki nziza ndende arimo kubara amafaranga menshi, bishoboka ko ari umukozi wa kimwe mu bigo by'imari bikorera mu Rwanda.

Agakoresho gafite umufuniko w'umweru upfumuyeho, gateretse ku meza ari mu cyumba gifite inkuta zubakishije amatafari ahiye n'isima, kimurikiwe n'itara ritabonesha cyane.

Mu cyumba gisize amarangi y'umweru n'ubururu bw'ikirere, hari icyapa gishushanyije cy'inyoni y'inyange, n'amagambo yanditse munsi, hari akajerekani k'umweru gateretse hejuru y'akabati kari konyine.

Icyapa kinini kiranga inzu ikorerwamo ubucuruzi, kirabona nubwo ari nijoro, inyuma yacyo hari ikindi cyapa cyanditseho Inyange, bigaragara ko hacururizwa ibinyobwa bitandukanye by'ikigo Inyange.

Icyumba gisizemo amarangi y'ubururu, hari ibikoresho bitandukanye, icyuma kibika amata, kikanayakonjesha, ijerekani y'umweru, n'umubikira w'ubururu, hari n'intebe z'umweru.

Umuntu ufashe keke ishunnyeho imbere ye ku meza y'igiti hateretse ikirahure kinini gifite umukondo kirimo amata iruhande rwacyo hari ikaramu ipfundikiye neza kugirango itabira.

Abantu babiri, umwe afite umusatsi muke yambaye ishati y'ubururu ateruye ikarito, undi winzobe usutse imisatsi miremire yambaye umupira w'umukara nawe afite udukarito dutoya tubiri mu biganza.

Icyumba cyubakishijwe amatafari ahiye kirimo akabati gapanzemo amajerekani afite ibara ry'umweru, gatwikirije igitambaro cy'ubururu cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ryo kwamamaza.

Amasambusa menshi, agerekeranye, ari ku isahani y'icyuma, iteretse ku gikoresho gikoze mu giti. Araryoha, akorwa mu ifarini, bagashyiramo inyama, cyangwa ibirayi.

Ubutumwa bugufi ushobora guhabwa mu gihe konti yawe wishyiriraho mu buryo bw'ikoranabuhanga itarimo gukora bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye kuba umaze igihe utayikoresha cyangwa se ufiteho ibibazo bijyanye no kugurizwa no kwishyura.

Umusore muremure w'imibiri yombi, ufite ubwanwa, wambaye ishati ya karokaro n'agapira imbere k'umweru, afite icyapa cyamamaza uburyo bwo kwishyura bwifashisha ikoranabuhanga.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu n'umuhondo, kiriho ikiganza gifashe telefoni cyamamaza uburyo bwo kohereza amafaranga mu mahanga no kuyakira aturutseyo, wifashishije ikoranabuhanga bikorwa mu gihe gito cyane kitarenze amasegonda umunani.

Urubuga rwamamaza ubucuruzi bukorwa hifashishijwe ikoranabuhanga, aho abantu batandukanye bashobora kwishyira hamwe bagakora ubucuruzi kandi bose bakunguka, ni uburyo bwiza kuko n'umunyarwanda yavuze ngo abishyize hamwe imana irabasanga.

Umukobwa w'inzobe ufite intoki ndende, useka muzitsa ikagaragara, aramamaza uburyo bwo kwishyura wifashishije ikoranabuhanga bugezweho buzwi cyane.

Urupapuro rugaragaza umusoro ku nyubako ungana na miliyoni imwe n'ibihumbi magana atanu mirongo cyenda n'umunani by'amafaranga y' u Rwanda, yishyuwe n'ikigo amekikororu gikorera mu Rwanda.

Paji y'igitabo cy'ibaruramari igaragaza ibyakozwe ku matariki atandukanye, bijyanye no gucunga umutungo buri murongo ugaragaza itariki amafaranga yishyuwe uwo yishyuwe ndetse n'icyishyuwe.

Urupapuro rwatanzwe na banki ya Kigali rugaragaza imirimo itandukanye yahawe ikigo kimwe gikorera i Kayonza ni mu Rwanda, ku itariki ya cumi n'umunani Gicurasi umwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu.

Urupapuro rwumweru rwandikishijeho utuyuguti tw'umukara duto hejuru hari inyuguti nini zanditse kuburyo bugaragara hariho y, t na o.

Urupapuro rw'umweru rwandikishijeho utu nyuguti dutoya tw'umukara hariho amagambo n'imibare bipanze mu mpushya enye zihagaze birasomeka neza.

Urupapuro rw'umweru rwandikishijeho utunyuguti duto tw'umukara, hejuru mu nguni ibumoso, handitse ijambo banki ya kigali mu nyuguti nini ziri mu ibara ry'ubururu.

Urupapuro runini rw'umweru rwandikishijeho inyuguti z'umukara , amagambo apanze mu mpushya ebyiri zihagaze, hejuru hari ikirango kiri mu ibara ry'umukara, imbere yacyo hari amagambo ari mu nyuguti ntoya.

Ibiganza by'umuntu w'insobe cyane, bifite inzara nziza z'umweru birabara amafaranga atari amanyarwanda, ariho ishusho y'umuntu w'umugabo hakurya hari undi mushandiko w'amafaranga yanditseho ijana ashobora kuba ari amadolari.

Inote nyinshi z'amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'Ubuhinde, hagaragaraho ifoto y'umuntu w'icyamamare, uzwi cyane muri icyo gihugu, ni amafaranga afite agaciro kenshi uyagereranyije n'amafaranga y'u Rwanda.

Inote yanditseho rimwe, ni iyo mu gihugu cya Kongo, iriho ibirango bitandukanye: inyubako, abantu benshi bicaye, inyuguti ya ba, ni iy'ifaranga rimwe.

Icyumba kirimo abantu babiri, umwe yambaye imyenda yumukara, undi yambaye imyenda y'umweru. Bicaye imbere y'ameza afite ibara ry'ikijuju, barimo kubara amafaranga agaragara ko atari Amanyarwanda hashobora kuba harimo n'amadorali.

Umuntu ufasha mu ntoki inote nyinshi z'amadolari ijana, akoreshwa muri Leta zunze ubumwe z'Amerika, ni inote zirangwa n'ifoto y'umugabo, ni umwe mu bigeze kuba abayobozi b'icyo gihugu.

Intoki z'umuntu w'inzobe cyane zifite ibikumwe bifite inzara zererana, arabara amafaranga menshi afunze ku buryo bw'imishandiko, atari amanyarwanda.

Umuntu w'umwera ucuruza amafaranga y'abanyamahanga afite ibikoresho bitandukanye mu biro bye harimo imashini isuzuma amafaranga ko ari mazima ndetse na mudasobwa yifashisha abara amafaranga agomba gutanga cyangwa kwakira.

Umuntu w'imibiri yombi arabara amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'Ubuhinde, agaragaraho umugabo uzwi cyane mu mateka y'icyo gihugu wakoze ibintu by'ibitangaza batazibagirwa.

Umuntu wambaye ishati y'ubururu bwijimye irimo utudomo, afite amafaranga menshi afunze ku buryo bw'imishandiko, aragenzura yitonze ko nta miganano arimo, abone kuyabara.

Urupapuro runini r'wumukara rwanditse mu mpushya enye. Urubanza ruriho amabendera y'ibihugu bitandukanye, hakurikira ubwoko bw'amafaranga imbere hari ibiciro byo kuvunjisha, kugura no kugurisha.

Urupapuro runini rw'umweru rwandikishijeho inyuguti z'umukara zipanze mu mpushya eshatu zihagaze, hejuru iburyo hari ikirango cy'igihugu, ibumoso hari amagambo ari mu kaziga k'umuhondo.

Inote y'amashilingi igihumbi akoreshwa mu gihugu cya Tanzania, igaragaraho ibirango bitandukanye, hariho ibiti by'imikindo ku rundi ruhande hari amazu meza yubatse nk'imisigiti y'abisilamu akurikiranye.

Icyumba gifite umuryango munini ufunguye, imbere hari idirishya ritoya na ryo rifunguye, inkuta zisize irange ry'umweru, hejuru y'umuryango hari ibyapa byandikishijeho inyuguti nini cyane ziri mu ibara ry'umutuku.

umugabo w'umwera wambaye umupira w'umukara ari mucyumba, iruhande rwe hari amagambo yandikishije inyuguti z'umukara ku cyapa cymuhondo, hari inyuguti M O N E Y bisobanura amafaranga bishoboka ko ari mu cyumba cy'ivunjisha.

Umukobwa wambaye umupira w'umutuku wandikishijeho inyuguti z'umweru mu gatuza n'ipantaro y'ikoboyi y'ubururu, asutse imisatsi miremire cyane. Iruhande rwe hari icyapa kirekire cyanditseho ijambo Uganda.

Umugore w'insobe wambaye imyenda miremire yitwikiriye mu mutwe, ahagaze imbere y'umuryango w'inyubako isize amarange y'umweru, hirya no hino ye hari ibyapa bisize amarange y'umuhondo n'ay'icyatsi.

Ibikoresho bitandukanye byo mu nzu harimo intebe ziri mu ibara ry'ubururu, hari ameza ateretseho udutebe duto biri mu ibara ry'umweru, hari utubati, hari n'umuntu wicaye imbere y'umuryango w'inzu isize irange ry'umuhondo.

Icyumba kinini cyiza cy'uruganiriro, gifite inkuta zisize irangi ry'umweru, amakaro ashashe hasi y'umweru abonerana n'intebe z'ibiti bya ribuyu zirimo imisego yo kwicaraho niyo kwegamira.

Intebe zikoze mu giti gikomeye zirimo imisego y'ikigina hari ifite umwanya umwe niyicaramo abantu batatu imbere yazo hari ameza atwikirije ikirahure hasi hari amakaro abonerana.

Igitanda cyiza kiriho imisego ibiri, gishasheho amashuka y'umweru imbere yacyo hari igikapu gifite ibara ry'icyatsi giteretse hasi ku makaro.

Ameza ashashagirana akoze mu giti kimwe n'intebe ziyazengurutse ateretseho indabo nziza z'umweru, ari mu cyumba kirimo amakaro akeye asukuye bihagije.

Imisego ine ifitemo ibara ry'umweru, iri mu ntebe z'ikijuju zegeranye n'ameza aringaniye, imbere yayo hari utumeza tubiri duto, byose bisize irange ry'umweru.

Icyapa kirekire kiri ku rupapuro rw'ubururu, cyandikishijeho inyuguti z'umweru, umukara, n'umutuku, urutonde rurerure rw'ibicuruzwa biboneka muri hoteli Kiyovu.

Ubwogero bwiza bwagutse burimo amazi y'urubogobogo buzengurutswe n'imbuga itunganyijwe neza, hari udutebe abamaze koga bicaramo bakaruhuka bakumva amahumbezi.

Inzu nziza cyane y'icyitegererezo ni igorofa urukuta rwayo uruhande rumwe rwubakishije umucanga n'isima, urundi ruhande rwubakishije ibirahure bibonerana cyane bikingirijwe n'ibyuma.

Intebe nziza nyinshi zifite ibara ry'umukara, zipanse mu buryo bufite gahunda mu cyumba cy'isaha gifite amakaro manini afite ibara ry'umweru n'umukara.

Ibiryo biryoshye cyane biri mu bisorori binini biteretse bitondekanye, hari umuceri w'ipirawu, imboga zirimo imiteja na karoti, hari n'ikindi gisorori kiri hirya kirimo umuceri w'umweru.

Ikawa ifunze mu ipaki ifite ibara ry'umukara, yometseho icyapa kiranga ikigo kibikora. Ku rundi ruhande, hari ibinika bifashisha bateka iyo kawa kugira ngo igire uburyohe butangaje nk'ubwo tuzi ku ikawa y'u Rwanda.

Ubusitani bwiza burimo ibiti n'ibyatsi bitoshye buri imbere y’inzu y'igorofa igeretse inshuro nyinshi. Hari icyapa cyanditseho ijambo "Mariyoti" ni hoteli izwi mu Rwanda.

Inzu nini nziza zifite igisenge gitukura amadirishya n'inzugi bigizwe n'ibirahure ziri mu gipangu gifite amarembo manini akinguye cyane.

Ubwogero bunini burimo amazi y'urubogobogo, buri inyuma y'inyubako y'igorofa igeretse kenshi, iruhande rwabwo hari ibiti bitoshye bizana amahumbezi, hari n'utuzu dutoya dusakaye tudafite inkuta, aho abavuye koga baruhukira.

Amacupa y'amazi apfundikiye ateretse ku meza azengurutswe n'intebe nyinshi z'umukara, mu cyumba kimurikirwa n'amatara menshi abonesha buhoro.

Icyumba kinini gifite inzugi zigizwe n'ibirahure kuva hejuru kugera hasi, giteguye neza kuru ruhande rumwe hari intebe zo kwicaraho, kurundi ruhande hari aho bakirira abantu.

Ubwogero bwagutse, busukuye neza, burimo amazi y'urubogobogo, buzengurutswe n'amahema, abamaze koga bicaramo bagafata akayaga, ubuzima bukabaryohera bakishima.

Inzu y'igorofa ifite imiryango myinshi ikorerwamo ubucuruzi n'ibigo bitandukanye kimwe muri ibyo bigo ni prime insurance ishami ryayo rya Kicukiro nk'uko bigaragara ku cyapa cyamamaza kiri kuri iyi nzu.

Inzu nziza y'icyitegererezo ifite imiryango ikurikiranye yose isize irangi ry'umweru hakurya hamurikiwe n'itara rifite ibara ry'ubururu hasi hashashe amakaro abonerana.

Abantu b'urujya n'uruza bagenda mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rw'inyubako y'igorofa ndende cyane izengurutswe n'ibiti bizana umwuka mwiza, ikoreramo kimwe mu bigo by'ubwishingizi bikorera mu Rwanda.

Inzu z'ubucuruzi zubatse nk'iyingiyi igeretse zishobora gukorerwamo n'abantu benshi batandukanye, bamwe mu bakorera muri iyi nzu nisonerwa, ni ikigo cy'ubwishingizi gitanga serivisi zitandukanye gikorera mu rwanda i Kigali.

Sonarwa ni imwe muri sosiyete zikorera mu Rwanda zicuruza ubwishingizi, irazwi cyane kubera ko imaze igihe kirekire itanga izo serivisi kuri iki cyapa hagaragara abantu benshi bagiye gushaka ubwishingizi bishoboka ko ari ubw'ubuzima.

Umugabo w'imibiri yombi wambaye amadarubindi n'ikote ry'ubururu yicaye ku ntebe nziza iri mu biro byiza y'umukara, aho bakirira abantu mu kigo kimwe mu bitanga ubwishingizi mu Rwanda.

Abantu batatu bambaye ama pantaro n'amakote bicaye ku ntebe z'imikara imbere y'ibyapa binini biri m’ ibara ry'ubururu byandi kishijeho umuhondo n'umweru.

Ameza asize irange ry'ikigina risa n'iryo ku rugi ateretse mu cyumba gishashemo amakaro, hejuru yayo hari ibikoresho bitandukanye ibyinshi biri mu ibara ry'umukara hagaragara n'ikaramu y'igiti.

Abagabo b'amajigija bose bavuye ku kigo UAP, ni ikigo gitanga ubwishingizi bw'ubuzima iyo ubufite uba wizeye ko niyo wagira impanuka, cyangwa se ukarwara indwara itunguranye yaguhitana umuryango wawe wakwitabwaho.

Inyubako ndende cyane yigorofa, imbere yayo hahagaze abagore babiri, umwe wambaye imyenda ikeye, undi wambaye imyenda yijimye, bahagaze hafi y'ingazi zinjira muri iyo nzu, imbere yayo hari n'ubusitani bwiza.

Umuntu w'igitsina gore w'inzobe wambaye ishati y'ikacye n'ipantaro y'umukara, aragenda mu ibaraza ry'inyubako ndende y'igorofa, imanitseho icyapa cyamamaza, imbere ye hari imbuga itunganyije neza.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu, cyandikishijeho inyuguti z'umweru, hepfo hari agashushanyo kariho ibara ry'umuhondo, iry'umutuku n'iry'umweru.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyandikishijeho inyuguti z'umweru kiragaragaraho ikirango cya banki ya Kigali ndetse n'abantu bane bishoboka ko ari abakozi bayo bamamaza uburyo banki ya kigali itanga inguzanyo ku buryo bworoshye.

Icyapa kinini kiriho amabara atandukanye yiganjemo icyatsi n'umweru cyandikishijeho n'ubundi inyuguti z'icyatsi n'umweru kiriho indangururamajwi igaragaza ko ubu butumwa bukwiye kugera ku bantu benshi batandukanye.

Icyapa kinini kiriho umugore uteze igitambaro ukeye mu maso arimo guseka yambaye umupira w'ikijuju, ku ruhande rwe hari amagambo banki y'abaturage y'u Rwanda, bigaragara ko yamufashije kwiteza imbere.

Urupapuro runini rw'umweru, rwandikishijeho inyuguti z'ubururu, n'iz'umukara. Mu nguni y'ibumoso, hejuru hari inyuguti ba na ka hepfo hari utuyuguti duto, utapfa gusoma ku buryo bworoshye.

Abantu batatu harimo abagabo babiri, umwe yambaye ishati y'ubururu na karavate y'umutuku n'umugore wambaye ikote ry'umukara, afite imisatsi miremire isutse aseka neza.

Umugabo muremure wambaye ingofero y'umukara, ishati y'umweru, ipantaro y'ubururu, ahagaze imbere y'idirishya rifite ikirahure kinini, imbere ye hari umukozi w'iki kigo Umwarimu Sacco, bigaragara ko yagiye gusaba serivisi zo kubitsa cyangwa kubikuza.

Umukobwa mwiza w'inzobe ufite imisatsi myinshi n'amenyo y'urwererane arampamaza ubucuruzi bwa banki ya Ekobanki yerekana uburyo yagufasha gutunga ikinyabiziga cyawe.

Umuganga wambaye impuzankano y'akazi y'ibara ry'umweru, arishimye kubera serivisi za agisesi banki. Zimufasha gutegura imbere heza, kandi rwose nk'uko bivugwa, hategurwa uyu munsi, kandi nibyo bishyize mu gaciro.

Isoko ricururizwamo ibintu by'ubugeni n'ubukorikori bikorerwa mu Rwanda tuzi nka ''made ini Rwanda'' hagaragaramo ibintu byinshi bitera amatsiko cyane cyane abanyamahanga ku buryo bajya babigura bakabijyana iwabo.

Iduka ricuruza ibitenge rimanitsemo ibitenge byinshi byiza by'ubwoko butandukanye bifite amabara atandukanye, ibyinshi muri byo bishobora kuba bikorerwa muri congo kubera ko tuzi ko ariho hava ibitenge byinshi.

Abagore benshi bakenyeye ibitenge bari ahantu hamwe hari ibiribwa bitandukanye birimo inyanya, intoryi, urusenda, karoti n'ibindi bishoboka ko bihacururizwa.

Umugore wambaye ibitenge, ateze n'ikindi mu mutwe, yicaye mu mutaka umuririnda izuba, imbere ye hari ibicuruzwa bitandukanye, aba yiteguye kwakira abakiriya bamugana, abaha ibyo bashaka.

Abantu benshi bahagaze mu kibuga bose bambaye imipira y'imbeho, harimo uwambaye ingofero n'ikote ry'umukara n'ipantaro y'ubururu uhetse igikapu mu mugongo, bahagaze imbere y'ibihiga binini.

Umuntu wambaye umupira w'umuhondo wifashe ku gahanga ari iruhande rw'umuhanda ugendamo ipikipiki ihetse abantu babiri bambaye ingofero z'ubururu hakurya y'uwo muhanda hatondeganyije amazu agaragara nkaho ari ayu'ubucuruzi.

Ibiribwa bitandukanye bipanze neza buri bwoko ukwabwo mu isoko aho bicururizwa, hagaragaramo; inyanya, ibitunguru, ibiriganya, amaronji manini y'umuhondo aryohera cyane cyane abana.

Icyumba gicururizwamo amakanzu y'abagore, ni amakanzu maremare adoze mu gitenge, ni amakanzu meza wakwambara warimbye, hagaragara umugore wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara ushobora kuba yaje kureba ikanzu yashima akayigura.

Isoko ry'imboga zitandukanye, zipanze neza mu isoko ku buryo rwose bwakurura abakiriya. Hagaragara ibitunguru bya puwaro, karoti, amashu, borokori n'izindi n'izindi.

Umugore wambaye ishati, irimo amabara yiganjemo ubururu, ateze igitambaro gitukura, yicaye mu iguriro ry'ibiribwa, harimo inyanya, intoryi na karoti, ategereje abaguzi.

Umugore w'inzobe usutse imisatsi, yambaye umupira w'ubururu bw'ikirere n'impuzankano y'akazi iri mu ibara ry'ubururu bwijimye, arakirana akanyamuneza umugabo wambaye umupira w'umutuku uje kumugurira.

Imyenda izinze neza ipanze mu tubati twabugenewe bigaragara ko ari aho icururizwa hari imyenda y'abakuru ari iy'abana hari amasogisi n'iyindi myenda itandukanye uhitamo iyo ushaka.

Abantu babiri bambaye imipira y'umuhondo yandikishijeho inyuguti z'ubururu bari mu kazu gatwikirije umutaka kazengurutseho ibyapa byamamaza na byo biri mu ibara ry'umuhondo n'ubururu.

Umukozi w'ikigo cy'itumanaho kizwi cyane mu Rwanda, ari mucyumba cy'akazi yambaye umupira w'umweru ufite ikora ry'umuhondo, yakiriye umukiriya wambaye ishati ya karokaro, ufite agakapu k'umukara mu ntoki.

Umuntu munini w'imibiri yombi, ufite intoki ndende n'inzara nziza, yambaye agakomo kagizwe n'amasaro n'umusaraba, arimo kureba muri terefone ye ubutumwa bamwandikiye.

Akazu gasize irange ry'umutuku, kariho ibyapa bitandukanye byamamaza, by'umweru n'umuhondo, ni ikigo gikora ibijyanye n'itumanaho mu Rwanda cyitwa Airtel, hari umukobwa wamamaza bumwe mu bucuruzi icyo kigo gikora, bwitwa Airtel mane.

Uburyo bwo kwishyura buzwi nka momopeyi aho baguha nimero y'umucuruzi, nk'uyuguyu arangwa na nimero; zeru, kane, gatatu, gatandatu, gatandatu, icyenda, ukishyura nta yandi mafaranga wishyujwe.

Ibiganza byombi by'umuntu w'inzobe bifashe telefone bimamaza imirimo itandukanye ushobora gukora wifashishije ikoranabuhanga ritangwa n'ikigo gicuruza iby'itumanaho mu Rwanda cya airtel.

Akazu gato gakinguye kari mu ibara ry'umuhondo, kometseho ibyapa byinshi byamamaza, ni ak'ikigo cy'itumanaho kizwi cyane gikorera mu Rwanda cyitwa MTN.

Umuntu w'igikara ufite intoki ndende yambaye ipantaro y'ubururu, akenye agakapu k'umukara, arareba mu gikoresho cye k'ikoranabuhanga ubutumwa bumwoherereje.

Akazu k'ubucuruzi gakorerwamo n'abazwi nk'abagenti b'amabanki atandukanye, kubakishije imbaho ndetse gatakishije imigongo. Ni imitako izwi cyane mu Rwanda yishimirwa n'abanyarwanda n'abanyamahanga.

Abantu batatu bahagaze mu cyumba, harimo babiri bambaye imipira isa ifite amakora y'ubururu yandikishijeho inyuguti z'ubururu, bombi basutse imisatsi, barakira umugore w'inzobe uje abasanga wambaye imyenda irimo ibara ry'ubururu n'icyatsi.

Umukobwa winzobe cyane ufite umusatsi uringaniye, yambaye ikanzu ya shokora ahagararanye n'umugabo wambaye ingofero n'umupira byijimye, inyuma yabo hari intebe ikoze mu cyuma.

Umukobwa w'inzobe usutse imisatsi yashyize amadarubindi m'umutwe yambaye umupira wumuhondo ufite amaboko magufi n'ipantaro y'ubururu, aravugira mu ndangururamajwi.

Icyapa cyamamaza isoko rya Kimironko, kigaragaraho ibiribwa bitandukanye, harimo amavuta, inanasi, igitoki, puwavuro, amashu, inyama, ibishyimbo, n'ibindi.

Umugore w'inzobe wambaye impuzankano y'ubururu bwijimye n'ingofero y'umweru, imbere ye hari umunzani arimo gupima ibitoki kugira ngo abyoherereze umukiriya.

Urubuga rwamamaza ubucuruzi bwifashisha ikoranabuhanga bukorerwa kuri murandasi, aho ushobora kubona ibicuruzwa bitandukanye n'ibiciro byabyo ukishyura bikakugeraho iwawe mu rugo.

Abagabo babiri bafite imisatsi myinshi, umwe ni umuzungu undi ni umwirabura, bafite ingofero z'icyatsi, zishushanyijeho amapikipiki ari mu ibara ry'umweru.

Icyapa kiri ku rupapuro runini rw'umweru, kigaragaraho ibikapu biri mu mabara atandukanye harimo umutuku, cyandikishijeho inyuguti z'umukara zimwe nini n'izindi ntoya.

Umugabo w'inzobe wambaye ingofero n'umupira bitukura, ateruye udukoresho tubiri dukoze mu giti, hejuru yatwo hateretse agasorori gapfundikiye.

Ubucuruzi bugezweho bukorerwa kuri murandasi bworoheje ubuzima aho wicara iwawe ugatumiza igicuruzwa bakakikugezaho mu rugo kandi kuri uru rubuga by'akarusho bigaragara ko kikugeraho nta yandi mafaranga wishyuye.

Ipikipiki ihetse igisanduku cy'icyatsi gisa n'ishati n'ingofero by'uyitwaye, ihagaze iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, imbere y'icyapa cyanditseho Bugarama.

Umugabo wambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu, yandikishijeho inyuguti z'umuhondo, yambaye ingofero, atwaye umuzigo ku rutugu, iruhande rwe hari icyapa cyamamaza ubucuruzi bukorwa n'ikigo Twiga.

Imyenda imanitse ku bibumbano bifite ishusho y'umuntu, igizwe n'ikanzu ifite amabara y'umweru n'umukara, ijipo n'ishati by'ubururu, ijipo y'umukara n'agapira k'icyatsi.

Urubuga rusobanura ibijyanye n'ubucuruzi bwo kuri murandasi, bukorwa n'ikigo Yubeyi. ushobora kubona ibicuruzwa byacyo mu Rwanda. Haragaragara amazina y'uhagarariye icyo kigo, ari we Nkurunziza n'ifoto ye n'uburyo ishobora kumugeraho.

Umugabo utwaye ipikipiki ifite ibara ritukura. yambaye ingofero n'umupira bifite ibara ry'icyatsi, ahetse igisanduku cyanditseho ijambo vuba vuba gitwarwamo ibiribwa bitandukanye ashyiriye abakiriya.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'icyatsi, cyandikishijeho inyuguti z'umweru n'iz'umuhondo, munsi hari utundi tunyuguti dutoya, hejuru hari akaziga kagaragaza igabanya ry'ibiciro rigera kuri mirongo itatu ku ijana.

Inzu y'igorofa isize amarangi y'ubururu n'umuhondo, imbere yayo hahagaze imodoka nayo isize amarangi asa n'ayo kuri iyo nzu, yanditseho ijambo iposita.

Icyumba cyiza cyagutse gifite urugi rukoze mu giti gikomeye, kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo akazana umuyaga, harimo imitako itandukanye, hari intebe zifite ibara ryijimye, hari kandi n'ameza afite ibara ry'umweru.

Intebe z'ubururu nziza ziteretse mu cyumba cy'uruganiriro cyisanzuye, imbere yazo hari ameza afite ibara ry'umukara, ateretse ku mukeka urimo amabara y'umweru n'umukara.

Inzu nziza yubakishijwe udukaro duto duto twiza dupanze neza, hari ahagenewe gukarabirwa hubatswe mu buryo bwa kijyambere, hakingirijwe n'igipapuro cya purasitike kibonerana.

Icyumba cy'ubwogero cy'inzu nziza y'icyerekezo, gifite akadirishya gatoyo gakinguye n'urugi rukinze, hejuru hari icyapa cyamamaza kigaragaza amafaranga ushobora kuyikodesha iri i Kigali mu Rwanda.

Umugabo w'umuzungu wambaye ishati y'umweru n'ipantaro yijimye, ahagararanye n'umugore wambaye imyenda ifite amabara menshi, mu busitani buri imbere yinzu ifite ibaraza, hateye intebe zo kwicaraho.

Igitanda kiza, kibaje mu giti cy'agaciro kenshi, gishashe neza, kiriho imisego ibiri, ifite ibara ry'umweru, kiri mu cyumba kimanitsemo amarido meza, afite amabara menshi.

Abantu babiri bari mu cyumba cy'uruganiriro, harimo umugabo w'umuzungu wambaye ishati y'umweru dede n'ipantaro y'ubururu, imbere ye hari umugore muremure, ufunze imisatsi, wambaye ikanzu ifite amabara menshi.

Inzu ikiri nshyashya ifite urugi rufite ikirahure kinini imbere yayo hari amakaro yabugenewe ku buryo abahagenda badashobora kunyerera n'iyo haba hatose kabone n'iyo imvura yaba ihise.

Inzu nziza y'icyerekezo, ifite igisenge gisakaje amategura, iherereye Kimironko ahazwi nko kwa SEKIMONDO, ifite ibyumba bitatu, irakodeshwa ku mafaranga ibihumbi magana atatu ku kwezi.

Icyapa kinini kiri mu ibara ry'umweru cyandikishijeho inyuguti z'umukara, kiramamaza imirimo ikorwa n'ikigo FIN gikora ibijyanye n'icungamutungo, ni ikigo cyizewe.

Icyapa cyerekana inzu ikodeshwa, irimo ibikoresho byose. Ni inzu y'icyitegererezo ikoze neza. Iri i Kanombe hafi y'ahitwa i Masoro. Wayibona ku mafaranga ibihumbi maganatatu mirongirindwi ku kwezi.

Inzu nziza igeretse ifite amadirishya manini afite ibara ry'ubururu n'ibaraza risize irange ry'umuhondo iri mu gipangu cyubakishije amatafari ahiye.

Icyapa kigaragaraho inzu ifite ibyumba bitatu byo kuraramo n'ubwogero butatu, ni inzu y'ikerekezo iri i Kigali kabeza imbere yayo hari igiti kiyiza gitoshye cya sipure.

Ubwubatsi bw'amazu aciriritse atarenze ibihumbi magana inani by'amafaranga y'u Rwanda, ukabasha kwibonera inzu y'ibyumba bibiri, birumvikana iba ifite n'icyumba cy'uruganiriro, ni inzu yafasha umuntu gukomeza ubuzima hanyuma akabona gutera imbere.

Inzu nziza isize amarange y'icyatsi, umuhondo, n'umweru, ifite imbuga itunganyije neza, n'ubusitani burimo indabo nkeya, ushobora kuyikodesha ku mafaranga ibihumbi ijana na mirongo itatu.

Inzu nziza y'icyerekezo, igeretse, ifite amadirishya n'inzugi binini, imurikiwe n'amatara amurika buhoro. Iri i Kibagabaga, ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atatu ku kwezi.

Urubuga rwamamaza inzu ikodeshwa, amafaranga ibihumbi magana atatu mirongo itanu buri kwezi, ni inzu ifite ibyumba bitatu n'ubwogero bubiri iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali.

Umugore ufite imisatsi miremire wambaye ishati y'amabara, ahagaze mu cyumba cy'ubucuruzi kigurishirizwamo ibikoresho bitandukanye byo mu rugo, aravugana n'abashinzwe kubitanga bumvikana ku giciro.

Abantu benshi b'igitsina gore bahuriye mu iguriro rinini ricururizwamo ibikoresho n'ibiribwa bitandukanye bikoreshwa mu buzima bwa buri munsi; baragenda mu nzira yabugenewe bagera kuri buri gicuruzwa kugira ngo bahitemo.

Icyumba gicururizwamo inzoga zisembuye kirimo utubati twiganjemo ibara ry'umutuku, akaba ari uburyo bwo kwamamaza ikinyobwa cya henikeni. Hari abantu babiri umwe wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'ubururu n'undi wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Imitaka itatu minini iteye ikurikiranye, imbere y'inyubako y'igorofa igeretse kenshi, yagenewe imyidagaduro, hari n'iyindi mitako myinshi ihongerera ubwiza.

Umugore wambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'umukara asutse imisatsi, apfunduye indobo yagenewe gushyirwamo imyanda; ari imbere y'igikoresho kigenewe kubika ibiribwa no kubikonjesha.

Inyubako ndende igeretse ikorerwamo imirimo y'ubucuruzi butandukanye, ku ruhande rwo hasi hagaragara imyenda y'abagore, hari n'ibyapa bitandukanye bigaragaza ubucuruzi buhakorerwa.

Ibiribwa n'ibinyobwa bitandukanye ndetse n'ibindi bikoresho byo mu rugo, bipanze neza ku mayetajeri yabugenewe, muri supa maketi, aho abakiriya bazenguruka bagahitamo buri wese icyo ashaka, hanyuma bakajya kwishyura.

Isoko rinini cyane nk'iri rigira akamaro gakomeye. Abaguzi babona ibyo bifuza bitabagoye, abacuruzi nabo bakunguka kubera ko hari ibicuruzwa byinshi bitandukanye ku buryo buri wese abona icyo ashaka.

Icyumba cyiza cyagutse gifite inkuta zisize irangi ry'umweru, kimurikiwe n'amatara menshi afashe ku gisenge na cyo gisize irangi ry'umweru, gikorerwamo ubucuruzi bw'ibiribwa n'ibikoresho bitandukanye byo mu rugo.

Ibiribwa n'ibinyobwa bitandukanye, birimo inzoga, imitobe, amata, amazi, bipanze neza mu tubati twabigenewe, biri mu cyumba kimurikiwe n'amatara abonesha neza.

Abagabo babiri barebare, umwe yambaye ikote ry'ubururu n'ipantaro y'umukara, bafite icyapa mu ntoki, bahagaze imbere y'urukuta ruriho amagambo yamamaza ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda.

Umugabo w'imibiri yombi ufite amaso manini, wambaye ishati y'umweru, imbere ye hari abantu benshi bamutunze indangururamajwi, bishoboka ko ari abanyamakuru, nawe akaba umuyobozi.

Ibinyobwa bidasembuye bipanze neza mu kabati mu buryo bukurikiranye, harimo imitobe n'amazi, biri mu cyumba kimurikiwe n'amatara afashe mu gisenge, amurika neza.

inzu y'ubucuruzi izwi nka supamaketi, igaragaramo utubati dupanze neza ku murongo ku buryo abantu bisanzura bakareba ibyo bagura, hari n'utundi dukoresho twabugenewe dufasha abaguzi gutwara ibyo bashimye mbere y'uko babyishyura.

Iguriro rinini ryagutse ricururizwamo ibiribwa bikoreshwa mu rugo mu buzima bwa buri munsi, harimo imboga n'imbuto, hari kandi n'ibindi bifunze mu bikombe byabugenewe bipanze mu tubati twiza dukoze mu byuma.

Umugore wambaye amadarubindi afite imisatsi isutse yambaye agakote n'agapira k'umweru imbere ari mu iguriro rinini arahitamo ibicuruzwa ajya kwishyura.

Umuntu w'igitsina gore wambaye ishati y'ubururu n'ijipo y'umukara usutse imisatsi afite agatebo mu kaboko ko guhahiramo ari mu iduka ricuruza ibintu byinshi bifunze mumakarito aritegereza agenda asoma ku bikarito bitandukanye kugirango ahitemo ibyo agura.

Umusore w'igikara ufite umusatsi mwinshi yambaye umupira w'umweru, w'amaboko magufi n'ipantaro y'ikoboyi, imbere ye hari imbuto zitandukanye, amaronji imyembe inanasi imineke n'izindi nyinshi.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye bikoreshwa mu buzima bwa buri munsi mu rugo, harimo ibiribwa n'ibikoresho by'isuku bitondetse neza mu tubati dusize irangi ry'umweru twabigenewe ku buryo abaguzi babasha kwisanzura bakareba ibyo bakeneye bagashima.

Ibikoresho byinshi by'isuku bikoreshwa mu rugo bipanze neza mu nzu bicururizwamo mu tubati twabugenewe, hagati hari ahagenewe kugenda n'amaguru hamurikiwe n'amatara afashe mu gisenge.

Iduka rihahirwamo ibiribwa bya buri munsi ibikoresho bitandukanye byo mu rugo rizwi nka supamaketi haragaragara abakiriya batandukanye barimo kuzenguruka bashaka ibyo bari bushime hanyuma hakagaragara n'abamaze guhitamo barimo kwishyura.

Iguriro rinini ricururizwamo ibiribwa n'ibinyobwa bikoreshwa mu buzima bwa buri munsi bipanze neza kuri gahunda buri bwoko ukwabwo hagati hari inzira nyabagendwa aho abakiriya banyura bafata ibyo bajya kwishyura.